Ndabona abasore batatu bicaye ku ntebe z'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru undi urimo hagati yambaye umupira w'umutuku, undi uri ku ruhande yambaye ikote ry'umweru rifite amabara abiri y'umweru hamwe n'umukara n'abadamu babiri.

Ndabona abasore cumi na batanu bari kuri mudasobwa, bambaye imfashanyugururamajwi ibafasha kumva ibyo bari gukora kuri mudasobwa, batatu bambaye ingofero, abandi nta ngofero bambaye,,,